Iyi foto iragaragaza umupapa n'umumama, bari guha undi mumama impano irimo, indobo, ibase ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi mu rugo.

Iyi foto iragaragaza umurwayi uri kwa muganga uri kwitabwaho n'abaganga batandukanye, ubona ko afite ikibazo arembye cyane, kuko buriya ubuzima ni ingenzi niyo mpamvu iyo wivurije ku bitaro abantu bakwitaho neza ukaba wabasha gukira vuba.

Hano hari abaganga babiri bari gusunika umurwayi ku kagare. Hano kano kagare kagufasha kugeza umurwayi aho ushaka hose mu buryo bukoroheye bidatinze. Urabona ko abaganga bavura indwara zandura, zihumekwa.

Iifoto iragaragaza imodoka ministry of heath ministery y'ubuzima mu bitaro bya nyagatare aha hariho abantu ba biri bambaye udupfukamunwa bagaragara ko ari abaganga.

Ifoto iragaragaza abagore bari kwa muganga, bariho abarwaza, aha ngaha ni ahantu ubasha kuba wajya ukaba wafata imiti y'ibanze, ugahabwa ubuzima bwiza, ukitabwaho n'abaganga.

Iyi foto iragaragaza abantu bicaye ku bitaro aho bakirira abarwayi kuri Reception mu ndimi z'amahanga, aha ngaha niho umurwayi agenda akicara agategereza abantu bakaza bakamuha ubufasha.

Aha ngaha ni mu bitaro harimo igitanda cy'umurwayi hari aho yacaginga n'intebe umurwaza yakwicaraho ndetse naho yabika ibikoresho bitandukanye.

Kugaragaza ibitaro harimo umurwayi uryamye, harimo akana karyamye, ibitanda hejuru hari inzitiramubu hariho hasa neza cyane.

Iragaragaza umumama uri gusuzuma umurwayi areba uko ubuzima bwe buhagaze, ibi bimufasha kuba yamenya uko umurwayi ahagaze, akabasha kuba yamenya uburyo aramwitaho cyangwa se aramuvura.

Iyi foto iragaragaza umuntu w'umupapa uri gutanga ikiganiro ku bantu runaka. Ubona ko ari kuganiriza abantu cyangwa segira inama abana, nibyiza ubungurana ibitekerezo mugafata imyanzuro myiza ku kintu runaka.

Hano ni umuganga ari gupima umurwayi arikumutera urushinge, ibi ngibi bituma birinda indwara zitandukanye zimwe na zimwe zandurira mu buhumekero cyangwa se mu myanya yose.

Abangaba urabona ko ni abanyeshuri bari muri laboratwari, bari kwiga ibintu bitandukanye, bijyanye n'ubuvuzi, basa n'abuganga, bizafasha mu buzima bwa buri munsi, nyuma y'uko bazaba basoreje kwiga.

Aha iyi foto iragaragaza, umuntu uri gufata ibipimo muri mikorosikope, bigaragara ko ari gupima amaraso arebe niba yanduye. Iki gikoresho kifashishwa mu gupima indwara zitandukanye, harimo no gupima uko umuntu ahagaze.

Na none muri laboratware ibona ko baba bari gupima acide zitandukanye .Laboratware yifashishwa mu gupima indwa zitandukanye ndetse no gukora imiti runaka.

Ifoto iragaragaza aba mama bambaye udupfukamunwa bici muri metero, ubonako bari kwirinda icyorezo, nk'ibi bituma kwicara gutya bituma wirinda indwara zitandukanye zandurira mu buhumekero.

Iyi inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta yo kwiyisiga, harimo imiti runaka, ibi ngibi ni igikorwa cya bizinesi.

Iki ni icyapa kigaragaza rero farumasi, ni farumasi igufasha wakwivuza ukakoresha ubwishingizi ubwari bwo bwose, ukuba wabona ubutabazi utagombye kujyabanda kubitege byaba biriho.

Hano hari abantu batandukanye hari urubyiruko, hari abakobwa, hari n'abandi bari kuri siteji barimo kwamamaza RBC nk'ikigo gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda.

Iyi foto iragaragaza umudamu n'umupapa bari gutanga udukingirizo ku bantu. Agakingirizo ni ingenzi ku buzima bwa muntu kuko bituma iyo ugakoresheje yirinda indwara zitandukanye harimo SIDA ndetse n'imitezi.

Aya ni amababi y'inturusi baciye barambika ahantu, amababi yifashishwa mu kuba havamo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye mu Rwanda.

Kiragaragaza aba papa n'umuma umwe uri kuva ku nzu yitwa girubuzima herifu powent iyi ni gahunda ishyirwaho na leta mu kwamamaza uburyo ubuzima arigenzi.

Iyi foto iragaragaza abantu bicaye hamwe hari umuntu utanga ikiganiro ubona ko imbere hariini umubyeyi w'umuyabuzima nawe ufashe igipapuro.

Ahantu ni ikigo nderabuzima, ubona ko ari ibitaro bifasha abarwayi kubona imiti biboroheye.

Muganga uri kubaza umurwayi imyirondoro ye kugira ngo amufashe, ibingibi bituma uvura umuntu uzi imyirondoro neza, agize ikibazo wamubariza hehe, ese wamwohereza hehe.

Inzu igaragaza, abagabo babiri bafashe umurasire, bari imbere y'inzu yanditseho gira ubuzima, iyi ni gahunda yo kugeza umuriro ku baturage aho bari hose.

Iyi foto iragaragaza abana bicaye bareba inzu yanditseho Girubuzima, ni inzu itanyigwamo amahugurwa ajyanye n'ubuzima.